Igitambaro cy'umutuku, ameza, ibyapa, abantu, umugore wambaye amarinete, ishati y'umutuku, igitenge cy'icyatsi, igitenge cy'umuhondo...

Imashini, igitambaro cy'ubururu, intebe z'umweru, umugabo wambaye ishati y'umutuku, iy'ubururu, iy'icyatsi, iya move, ikoti ry'umukara, ishati y'umuhondo.

Umugabo, ikote, mikoro, intebe, umuhondo, ubururu, umugore, ingofero, amarinete, indangururamajwi, ubutaka, ibyatsi, isaha.

Sima itukura, intebe z'umukara, amarido, idirishya, agacupa, igitabo, imashini, terefone, ameza ubururu, igitambaro ubururu, ikindi umuhondo.

Ameza, kasike, igitabo, amazi, umugabo wambaye umupira w'ubururu, ijire y'icyatsi, umugore wambaye umupira w'ubururu, amarinete.

Umugabo w'umwirabura uhagaze, ufite indangururamajwi mu ntoki, umugore wambaye amarinete, wambaye ingofero, wicaye, intebe z'umukara, ameza y'ikirahure...

Abantu benshi, umugabo w'umwirabura wambaye ishati y'umweru, amarinete, ikoti ry'umukara, ikirahure, icupa ry'amazi, ibitabo, terefone, ameza, ikaramu,,,

Umuzungu, terefone, imashini, ameza, igitabo, intebe, itara, idirishya, irido, tapi, saro, umutako.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo umumotari uri kuri moto, kasike y'umutuku, jire y'umutuku undi mumotari nawe wambaye kasike y'ubururu, ijire y'umutuku, imirongo y'umweru akayira k'abagenzi itara,,,

Ubutaka, igikuta cy'amatafari ahiye, senkenge, ibyuma, abagabo, intebe, ingoma, kamambiri, ikabutura y'ubururu, ishati, move, isaha, inkweto y'umukara.

Ikote ry'ubururu, ikoti ry'umukara, umusatsi, amarinete, ubwanwa, amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, ubukubo bubiri n'ibara ry'umutuku, imibare yandikishije amagambo y'umutuku.

Intebe y'umukara, umugabo wambaye ikote ry'ubururu, ipantaro y'ubururu, ishati ubururu bukeye, ameza, mikoro, amazi, intebe, porojegiteri.

Umugore w'umwirabura ufite imisatsi myinshi wambaye amarinete, wambaye ikote ry'umukara, umupira w'umweru, umugabo wunamye w'umwirabura wambaye umupira w'umweru, umugore wicaye uteze igitambaro cy'umuhondo.

Umuhanda w'umukara moto iriho umumotari wambaye kasike, umukara, jiri umuhondo, ubururu, umugabo wambaye bote z'umweru, umugabo wambaye imyenda y'icyatsi.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, akayira k'abagenzi, umurongo w'umweru, imodoka ijya gusa umweru, amagambo yandikishije ibara ry'ubururu, umugabo uri mu modoka yambaye ishati y'umweru.

Umuhanda w'umukara wa kaburimbo, akayira k'abanyamaguru, indabyo, ibiti, ipoto, imodoka y'igikamyo iteye irangi risa umutuku, umugabo uri kugenda mu kayira wambaye umupira w'umweru, ufite amajerekani y'ubururu mu ntoki...

Ubuso bw'umuhondo, umuzenguruko umukara, ikirango umukara, umurongo utambitse, umurongo uhagaze, fureshi ireba hejuru y'umukara.

Ibiti, itara, ipoto ry'umukara, icyapa cy'umuhondo, umuzenguruko umutuku, ikirango umukara, ikindi cyapa umuzenguruko ni umweru, ikirango ubururu.

Umuhanda w'amabuye, akayira k'abagenzi, ibyatsi, indobo y'ubururu, umugabo wambaye umupira w'ubururu, bandana y'ubururu, ipantaro y'ubururu, moto umumotari wambaye ijire y'umuhondo.